Abana bateraniye hamwe ku mugezi bari kugenda banywa amazi, bakoresheje intoki zabo, ni abana bagera muri batandatu, umwe ari kunywa na ho abandi barategereje ngo nabo baze kunywa nasoza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba gitangirwamo serivisi zijyanye n'amasomo, ni abanyeshuri aho harimo n'umwarimu wabo bakaba bishimye cyane bamanitse ibitabo.

Umwana muto w'umuhungu aho yagiye kuvoma amazi kuri robine, akaba ari guseka yishimye akoresheje igikombe biragaragara ko agiye kuyanywa, ni byiza cyane kunywa amazi dukoresheje igikombe.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'umutuku, ikaba yubatswe neza. Imbere yayo hari iyindi yubatswe mu buryo bw'uruziga, hari n'utuyira tw'amayesikariye dutambuka banyuraho.

Umwanawana mutoya w'umukobwa uri gukaraba kuri robine rusange iba yarashyizweho na Leta mu rwego rwo kwegereza abaturage amazi, yambaye imyambaro y'umutuku ndetse ari kureba umuntu uri kumufotora yishimye cyane.

Umukecuru wambaye imikenyero y'umuhondo n'amadarubindi, akikijwe n'abana bameze nk'abuzukuru be, aho bari kwifotoza bose bishimye, bigaragara ko banezerewe.

Umugore uvuye mu bwiherero none ari gukaraba intoki ze akoresheje igikoresho tuzi mu Kinyarwanda nka kandagira ukarabe, iki ngiki kikaba ari ingenzi cyane.

Ni byiza cyane ko mu gihe ubonye umwana afite kimwe mu bimenyetso mpuruza, umwihutana kwa muganga, abaganga bakamwitaho kuko bo biborohera kumenya indwara arwaye.

Uruhujya n'uruza rw'abantu, aho bateraniye hamwe, imbere y'ibiro by'umurenge, bari mu nama none irarangiye, bamwe bari gutaha, abandi bajya kubaza ibibazo bitandukanye.

Abantu batandukanye, aho bari kugenda bafata ifoto y'urwibutso. Muri abo bantu harimo abasore n'abagabo. Bambaye udupira tw'ubururu, iruhande rwabo hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu n'umweru, avuga ngo UNICEF.

Abantu babiri, hari umugore umwe uhagaze mu iriba ari kuvoma amazi adubitsemo ikijerekani, hari kandi n'umugabo uri kubogereza igare. Ibi si byiza kuko byangiza ibidukikije biba biri mu gishanga.

Mu rwego rwo guha abaturage serivise zibanogeye ndetse no kwita ku buzima bwabo, Leta yabegereje amazi, uyu mugore rero acigatiye umwana ari kuvomera amazi mu ndobo isa umukara, ari kugira ngo arebe ko yajyana amazi iwe bimworoheye.

Abantu benshi cyane bateraniye mu cyumba, ku gikuta handitseho ngo uburyo bwo gukumira no kurwanya igituntu ku bangavu.

Abantu batandukanye b'abagore bahuriye ku ivomero rusange, aho bari kuvomera amazi mu ndobo. Ubu ni uburyo Leta yashyizeho bwo kwegereza abaturage amazi.

Ni ku ivomero rusange aho hateraniye abantu benshi baje gushaka amazi, uko bigaragara aha ngaha ni mu cyaro kuko umuhanda waho nta kaburimbo irimo.

Abantu benshi cyane b'abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga bateraniye hamwe, bari gukoma amashyi babyinira umuzungu wabasuye, inyuma yabo hari ikigo nderabuzima gisize amarange y'umweru.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga, bahagaze bari kwifotoza bambaye udupfukamunwa. Bahagaze imbere y'inyubako yaberagamo inama. Bafite udukoresho mu ntoki bazajya bifashisha mu kwita ku bababagana.

Abana bagera muri babiri harimo umwe w'imyaka nk'ibiri, baje kuvoma amazi ku iriba, aho bavoma amazi badunitse ibibido byabo. Si byiza cyane gukoresha aya mazi, kuko atera indwara nyinshi cyane, ziterwa n'isuku nke.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe imbere y'icyumba cy'amashuri, hakaba hari akayira karombereje gasakaje amabati, iruhande rwabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo atandukanye.

Abantu benshi cyane harimo abaganga bambaye amataburiya y’umweru, bifotoje bari bari mu nama none iyo nama irarangiye, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hari kunyuramo umugore wambaye akajiri n'agapira k'umutuku, ari kugenda buri wese amuhereza urupapuro ndetse buri wese nawe agenda asoma ngo amenye ibyanditseho.

Ukuboko cyangwa ibiganza by'umuntu aho biteze amazi kuri kandagirukarabe biri kuvoma, iyo kandagirukarabe irasa ubururu, ubu rero ni uburyo bwo kwimakaza isuku bwashyizweho.

Abantu batandukanye bakaba bicaye mu cyumba bari gukora inama, buri wese imbere ye ku meza hari indangururamajwi ndetse n'icupa ririmo amazi yo kunywa, hari n'idarapo ry'u Rwanda.

Abantu bateraniye hamwe bagera muri bane harimo umugore umwe ucigatiye umwana, hari n'umuganga uri gusuzuma uwo mwana, undi mugore yicaye ku ruhande afite ibitabo ari gusoma bigaragara ko ari kwa muganga.

Abana bakiri bato baje ku ivomero, bakaba bari gukaraba intoki kuri robine, uko bigaragara ni abanyeshuri bakiri batoya biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri ya kupe iri gusa ubururu, bicaye ku ntebe zabo bari gufata ifunguro rya saa sita. Iyi ni gahunda yashyizweho na Leta y'u Rwanda.

Abamama bagiye gukingiza abana kwa muganga, ni benshi cyane buri wese ateruye umwana we, bigaragara ko ategereje ko muganga aza hanyuma agatangira kwita ku bana babo.

Abantu benshi bateraniye hamwe, mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hari umuntu uri kubandikira mu ikayi, hari abagore benshi kandi baje gupimisha abana babo.

Abantu bicaye bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hahagaze umusore ufite ikaramu ndetse n'ikayi. Akaba ari kugenda abasobanurira ku bijyanye n'ubuzima bw'umuntu.

Abakecuru bicaye hamwe batonze umuronko, hari umuganga imbere yabo uri kugenda abapima umuvuduko w'amaraso aho ari gushyira igikoresho cyabugenewe cy'umukara ku kizigira cy'ukuboko cya buri muntu.

Abana bagera muri batatu bagiye kuvoma amazi ku iriba, hahandi umuntu avoma amazi ayahagazemo mu buryo bwo kudubika. Ubwo rero ni byiza cyane kuvoma amazi tutayahagazemo.

Amagambo ari mu ibara ry'umukara, aho iruhande rwayo hari akarango kari mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, hakaba handitseho ngo Georgia Global Health.

Mu rwego rwo kwegereza abaturage serivisi, Leta yabegereje imigezi. Hari umwana uri kuvomera mu kibido cya kera cy'igishashi, aho yafunguye umugezi, amazi akaba ari kujyamo.

Umusaza ugeze mu za bukuru w'umuyisimu dore ko yambaye n'akagofero kabo, yambaye ishati idoze mu bitenge, iruhande rwe hari umwana, uwo musaza ari kuganirizwa n'umuganga amubaza uko ubuzima bwe buhagaze.

Abantu bagera muri batatu harimo umugabo n'umugore baje kuvoma amazi mu ijerekani, hari kandi n'umukobwa wambaye akajiri k'umutuku n'agapira k'umweru uri kuvomesha.

Abantu bari ku ivomero rusange, rya rindi bavoma umwe ari gupompa, undi nawe ari kuvoma. Uri gupompa ni umubyeyi, umwana we ari kuvoma. Hirya hari abantu b'inkomamashyi bari gushungera.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, bicaye bategereje ko muganga aza akabafasha, harimo abagore ndetse n'abasaza biganjemo abambaye amakositimu.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari mu nama, imbere yabo hahagaze umugore uri kubakoresha iyo nama, bicaye ku ntebe nziza cyane z'imifariso zisa ubururu, uwo mugore uri kubakoresha inama inyuma ye, hicaye abandi bantu.

Umwana wajyanywe n'umubyeyi kwa muganga, hari umuganga w'umukobwa mwiza cyane w'inzobe wambaye impuzankano z'abaganga, akaba afashe k'umwana ari kugira ngo arebe ko ameze neza.

Abana bagera muri babiri bakaba bahuriye hamwe ku ivomero, bose batezeho intoki bari gukaraba, umwe yambaye agapira k'umutuku undi yambaye imyenda idoze mu bitenge.

Abaturage benshi cyane bateraniye hamwe, ndetse bashungereye umuntu w'umutekinisiye, uri gukora imigezi. Akaba yafunguye imigezi ibiri yose, iri kuzira icyarimwe amazi ari kumeneka.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe ku biro by'umurenge. Aho bari bari mu nama none inama irarangiye. Bari kwitegura gutaha. Mu mbuga yaho harimo Ibendera ry'u Rwanda.

Umwana muto w'umukobwa aho afite icupa ry'amazi araryubitse ari kumena amazi, yambaye ikanzu idoze mu gitenge, afite kandi imisatsi ya menshi, hirya yiwe hari urugo rwubakishije amatafari ya sima.

Abantu bateraniye hamwe bahagaze bari kwifotoza. Harimo abasore n'inkumi abagabo n'abagore. Bari imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye. Hakaba hari n'igiti k'imikindo.

Ababyeyi benshi bagiye batandukanye bagiye gupimisha abana babo ku mujyanama w'ubuzima kugira ngo hasuzumwe niba ubuzima bwabo bumeze neza.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda ya kaki, baje kuvoma amazi ku ivomero bakoresheje indobo zisa umuhondo, ubu ni uburyo bwiza Leta yakoresheje kugira ngo yegereze abaturage amazi.

Abana bateraniye hamwe, aho bari kugenda bakaraba amazi kuri robine iri kuzana amazi ahantu henshi cyane, bari gukarabira mu ibase y'umutuku. Inyuma yabo hari abandi na bo bategereje ko bavaho kugira ngo na bo baze bakarabe.

Abantu batandukanye bahagaze imbere y'inyubako bari kwifotoza; harimo abagabo n'abagore, bari bari mu nama none irarangiye. Imbere yabo hari akadarapo k'u Rwanda, inyuma yabo hari icyapa kiriho insanganyamatsiko.

Abantu bagera muri batatu, harimo umugabo n'umugore bicaye bafatanyaye ku ntugu bishimye, iruhande rwabo hari umujyanama w'ubuzima, ufite urupapuro mu ntoki ari kugenda abasobanurira uburyo bagomba kunoza urubyaro.

Umwana uvuye kuvoma yikoreye akajerekani ka cumi kandi akiri muto, akaba ahuye n'abagabo bita ku buzima bw'abana, aho hari umwe ufashe kuri ako kavido undi ari gufotora, si byiza cyane gukoresha umwana imirimo ivunanye nk'iyi ahubwo umwohereza ku ishuri akiga nk'abandi.

Ifoto iriho amashusho y'ibintu bigiye bitandukanye. Hariho ikirango cy'umuryango w'abibumbye ku isi wita ku buzima bw'abana UNICEF, hariho kandi n'andi magambo agiye atandukanye.

Abana benshi cyane bateraniye hamwe harimo n'abantu bakuru, bakaba bambaye udupira dusa ubururu aho bari mu nama yiga ku kibazo cy'abana bafite imirire mibi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bari mu cyumba cy'inama, buri wese imbere ye ahafite agacupa k'amazi, ndetse n'ikayi ari kwandikamo ibiri kuvugwa, imbere yabo hari insakazamashusho izimije.

Umugore uri mu nama aho afite igikoresho cyabugenewe cy'indangururamajwi, akaba ari gutanga igitekerezo. Iyi nama yitabiriwe n'abantu benshi bicaye muri shitingi itatse mu buryo bw'ibendera ry'u Rwanda.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hakaba harimo umugore wambaye agapira k'icyatsi n'agapfukamunwa k'umweru akaba yiteze n'igitambaro aho yagiye gushakamo izo serivise.

Ni byiza cyane ko umuntu wese w'umujyanama w'ubuzima aba agomba kwitabira inama igihe bamutumyeho. Aba rero bari mu nama bakaba baje mu nama barimo gutanga ibitekerezo. Bafite amakayi bari kwandikamo ibyavugiwe mu nama.

Abantu benshi cyane, bateraniye hamwe, harimo abagabo bambaye imyenda y'ubwirinzi bw'indwara z'icyorezo. Bigaragara ko hari mu gihe cya Covid 19.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, higanjemo ababyeyi bakikiye abana babo, hari kandi n'umugabo umwe wambaye itaburiya y'umweru, uri kugenda areba buri mwana umwe uko ubuzima bwe buhagaze.

Abana babiri bari mu ishuri, aho inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho amagambo agiye atandukanye, hari umwana umwe wateye urutoki hejuru ari guseka, bigaragaza ko afite icyo ashaka gusubiza mwarimu.

Abantu bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, higanjemo abagore benshi ndetse n'abagabo bake, bigaragara ko bari bari mu nama none irarangiye bari kwifotoza, bambaye amajire asa icyatsi ndetse n'udupira dusa n'icunga.

Umwana wambaye agapira k'umutuku ari guseka. Yikoreye ikibido gishaje cyane, kiriho icyapa cyanditseho Umuryango w'Abibumbye wita ku buzima bw'abana ku Isi Unicef. Hari umusaza ufasheho uri guseka, wambaye agapira k'ubururu.

Umwana muto wambaye agakabutura k'ubururu n'agapira gasa icunga, ateze amazi ku mugezi wa robine akoresheje igikombe kugira ngo ayanywe, ni byiza cyane kunywa amazi dukoresheje igikombe kuko bidufasha kugira isuku.

Abantu benshi cyane, bateraniye hamwe imbere y'icyumba cy'inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ahazwi nko ku ivuriro, hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara avuga ngo: "Gira ubuzima".

Abantu benshi cyane batandukanye bari mu cyumba gitangirwamo serivisi z'inama. Imbere hicaye abantu batatu bari kubakoresha iyo nama. Muri bo harimo kandi n'umuganga wambaye imyenda yo kwirinda icyorezo cya runaka.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba k'inama, aho harimo umugore wambaye agapfukamuwa k'umukara ndetse n'agapira k'icyatsi n'abandi bambaye udupfukamunwa tw'umukara n'udupira tw'umweru, bari mu nama yiga ku migendekere y'ubuzima ku Isi.

Amagambo agiye atandukanye yanditswe ahantu hari amabara y'umweru ndetse n'ubururu. Ayo magambo akaba yanditswe mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara risa umukara.

Abajyanama b'ubuzima benshi, bateraniye hamwe, aho bari gukoma mu mashyi. Bambaye amataburiya y'ubururu ndetse bari muri shitingi z'umweru. Imbere yabo, hari ubusitani bwiza cyane.

Abantu benshi cyane bahagaze imbere y'inyubako bari kwifotoza, biganjemo abagore benshi cyane, bigaragara ko bari bari mu nama none ikaba irangiye, bakaba baje gufata ifoto y'urwibutso.

Umwana uri kunywa amazi ku mugezi wa robine akoresheje intoki. Inyuma ye hari abandi bantu batagaragara neza. Ku ruhande harambitse agatebe k'ubururu, imbere ye hari ikirango cya Unicef.

Umwana mutoya cyane w'umukobwa ari gukorerwa indobo na mugenzi we, iyo ndobo irasa icyatsi, bari ahantu ku ivomero rusange, inyuma yaho hari akazu ka nyakatsi, hakurya hari agasozi kagufi gateyeho ibyatsi bigiye bitandukanye.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu, akaba yambaye ikanzu iri mu mabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru, akikiye umwana we aho yagiye kumukingiza kwa muganga, hari n'undi umwe na we ukikiye umwana.

Abantu benshi batandukanye, harimo abazungu n'abirabura, bakaba bahagaze batonze umuronko, bari gufata ifoto y'urwibutso. Bari bari mu nama, none irarangiye, bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu, cyanditseho insanganyamatsiko bari bari kwigaho muri iyo nama.

Umwana ukiri muto cyane, yagiye ku ivomero rusange, aho ari kugenda avoma amazi ayoga mu maso. Uyu mwana rero yambaye agapira k'icyatsi karimo imirongo isa umukara.

Abantu bicaye batandukanye bagera muri bane, harimo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe. Bakaba bari gukora inama hino hari undi mugore uhicaye. Buri wese imbere ye hateretse agacupa k'amazi.

Umugore uhetse umwana akaba akenyeye n'igitenge, yambaye agapira k'icyatsi, ari koza umufuniko w'indobo usa umutuku awogereza mu ndobo y'umuhondo, akaba kandi ari ku ivomero rusange.

Icyumba gitangirwarwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, harimo abantu babiri. Harimo umuganga ndetse n'umugabo uhagaze wambaye imyenda y'ubururu. Bakaba bari kuganira ku migendekere ya serivise z'ubuvuzi.

Abajyanama b'ubuzima batandukanye bambaye amataburiya y'akazi, bahagaze ahantu bari kwifotoza, bari kumwe n'umugabo wambaye amakositimu, bigaragaza ko bari bari mu nama none ikaba irangiye, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugabo wagiye kuvoma ku ivomero rusange, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agashati k'amaboko magufi, akaba yicaye ku ijerekani aho yagiye kuvoma amazi.

Ni byiza cyane ko igihe cyose mumaze gukora siporo muza ku ivomero mugakaraba intoki, aba bana rero ni abanyeshuri bari gukaraba intoki nyuma yo gukora siporo ngororamubiri.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge, witeze n'igitenge, akikiye umwana aho afite n'igipande mu ntoki. Inyuma ye hari abandi bantu benshi na bo bazanye abana, bigaragaza ko baje kubakingiza.

Umukobwa uri gukaraba intoki ku ivomero rusange riba ryarashyizwe ku mashuri, uyu ni umwana wiga mu mashuri abanza aho yambaye impuzankano z'ishuri.

Ni ku ivomero rusange, aho hari robine ebyiri. Hari abantu benshi cyane baje kuvoma aho bari gushaka amazi. bakaba bafite ibikoresho byo kwifashisha, harimo amajerekani ndetse n'indobo.

Icyumba cy'inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo intebe nyinshi zifite imifariso isa ubururu, muri iki cyumba rero hakaba hatangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ibikuta birasa umweru.

Imodoka z'ibikamyo zigera muri ebyiri ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Zirasa umweru ndetse iy'inyuma iriho ikirango cy'umuryango w'abibumbye ku Isi wita ku mirire.

Ijanisha ritwereka uko ubuzima bw'abantu buhagaze. Harimo mirongo itanu na gata ku ijana, mirongo irindwi ku ijana, mirongo irindwi na gatandatu ku ijana, ndetse na mirongo irindwi n'icyenda ku ijana.

Abantu benshi cyane bari kugenda bapakira imifuka y'ibiribwa ku muronko. Higanjemo abagore n'abagabo. Abari kugaragara ni abagore babiri bateruye umufuka, aho bagiye kuwuhereza umugabo uri imbere yabo ngo awupange ahabugenewe. Abagore na bo barashoboye.

Inyubako nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho b'uruziga, ikaba ifite urugara rusa umweru ndetse n'utwuma tuba turi hejuru abantu baje kuyisu bagenderamo.

Abakobwa bagera muri bane ndetse n'umuhungu umwe. Bambaye udupira tw'ubururu barishimye cyane bari guseka bifotoza. Imbere yabo hari Ikirango cy'Umuryango w'Abibumbye wita ku buzima bw'abana ku Isi.

Umugore uvuye kuvoma wikoreye ikijerekani gisa umuhondo. Iruhande rwe hari abana babiri umwe yambaye kupe, undi nawe avuye kuvoma. Bari imbere y'inyubako isakaje amabati atukura.

Abaganga benshi batandukanye bateraniye hamwe aho bari kwifotoza, bambaye amataburiya y'umweru ndetse na baji mu ijosi, hari umugabo w'umuzungu wambaye ikositimu uri hagati yabo bari kwifotozanya.

Abantu bateraniye hamwe bari kwifotoza, bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima, harimo abagore ndetse n'abagabo, icyo kigo nderabuzima gisize amarangi y'ubururu, handitseho n'amagambo mu ibara ry'umukara avuga ngo gira ubuzima.

Abakecuru babiri bageze mu za bukuru ,ariko b'abayobozi. Bicaye ahantu ku ntebe z'umukara zegamirwa, umwe yambaye imyenda y'umweru n'ubururu ,ateze n'igitambaro cy'umweru. Undi yambaye ikositimu ry'umweru irimo utudomo tw'umukara, ndetse n'agapira k'umukara mw'imbere.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, aho higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari kugenda baganira ku ngingo zigiye zitandukanye cyane cyane ku mitangire ya serivisi z'ubuvuzi.

Umwana ukiri mutoya wambaye agashati k'ubururu, akaba yazamuye amaboko, hari umuganga ufite urushinge ari kumutera, ni byiza cyane kwikingiza indwara ya Kanseri ku bantu b'abakobwa.

Abagore bagera muri batatu, bakaba bahuriye ku ivomero rusange. Rya rindi bavoma ari uko umwe muri bo ari gupomba. Babiri bari gupomba, undi mwe na we afite indobo y'icyatsi, ari kugenda avomeramo.

Abagore batatu bagiye kuvoma. Bajya kuri wa mugezi usaba gupompa, babiri muri bo bari gupompa, undi umwe afite indobo y'icyatsi ari gutega amazi. Iyo ndobo iteretse mu kibindi cyiza cyane.

Umugore ucigatiye umwana, uyu mugore yambaye agapira k'umweru kariho ikirango cy'Umuryango w'Abibumbye wita ku buzima bw'abana ku Isi Unicef, uyu mwana ari guhabwa ibyo kurya n'umugabo wambaye amadarubindi.

Abamama babiri bagiye kuvoma amazi ku ivomero rusange, aho bafite amajerekani agiye atandukanye. Leta yahisemo ubu buryo bwo kwegereza abaturage amazi, mu rwego rwo kunoza ubuzima bwiza.

Abana batoya bambaye imyenda y'ubururu, ndavuga udupira, tukaba twanditseho amagambo mu ibara ry'umweru asobanura Umuryango w'Abibumbye wita ku buzima bw'abana ku isi ari wo Unicef.

Umwana ukiri muto wambaye agakabutura k'umutuku n'agashati ka gisirikare n'inkweto z'ubururu, ari kunywa amazi kuri robine hejuru y'indobo, ibi si byiza kuko mu gihe cyose umuntu agiye kunywa amazi yagakwiye kwifashisha agakombe.

Umusaza wambaye ishati y'umweru, iruhande rwe hari Ibendera ry'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hejuru handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu turi kumwe.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, yambaye urunigi mu ijosi, yiteze igitambaro cy'umweru, afite kandi n'amaherena ku matwi, yambaye ubusa hejuru, bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi, akaba ahagaze imbere y'abandi bantu benshi cyane, inyuma yabo hari ikibumbano cy'ingagi kiri mu ibara ry'umweru gifashe icyatsi mu ntoki.

Umwana uri kurira wirabura bigaragara ko atishimye, akaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ni ngombwa ko abaganga bita ku ndwara zo mu mutwe, bamwegera bakamuganiriza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, harimo abagore bagera muri babiri bacigatiye abana. Imbere yabo hari umuganga uri kugenda areba uko ubuzima bw'abana babo buhagaze.

Abantu bicaye bagera muri batandatu harimo abakuru batanu ndetse n'umwana umwe mutoya, bari imbere y'inzu ifite umuryango ufunguye uko bigaragara ahangaha ni mu cyaro.

Abantu bateraniye hamwe bari kwifotoza, aho bari bari mu nama none irarangiye, bakaba baje hanze gufata ifoto y'urwibutso, harimo abagabo ndetse n'abagore.

Umukobwa uri guseka, wambaye agakanzu gasa umuhondo, imbere ye hari amagambo agiye ahanditse mu magambo y'umweru avuga ngo imbogamizi ziterwa n'indwara z'ubuzima bwo mu mutwe.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, akaba ari guseka arebye hejuru, biragaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umusaza ufite umusatsi wabaye injwiri muremure n'ubwanwa bwinshi cyane busa nabi, uko bigaragara afite uburwayi bwo mu mutwe.

Icyumba kiri gusa nabi gifite inkuta ziteye irangi ry'umweru ariko ryashaje, hasi na ho harasa nabi, hicayemo umusore utambaye umwenda n'umwe, ushobora kuba afite ihungabana mu mutwe.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba bicaye ku ntebe zisa umukara begamira bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari umugore uhagaze uri kubakoresha iyo nama.

Ikigereranyo mu Rwanda kitwereka impfu zagiye zibaho z'abantu biyahuye ndetse n'imyaka byagiye bibamo. Mu bihumbi bibiri na kabiri, ibihumbi bibiri na gatandatu, ibihumbi bibiri na cumi, ibihumbi bibiri na cumi na kane n'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani.

Umugore wambaye akajiri k'umuhondo, bigaragara ko ari umukozi wa MTN, akaba ari mu iduka ahagaze ari guseka, yambaye kandi agasengeri k'icyatsi imbere y'akajiri.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bari mu nama yita ku buzima bwo mu mutwe, hari umugore wambaye ikanzu idoze mu gitenge, afite indangururamajwi mu ntoki ari gutanga igitekerezo.

Abantu benshi cyane bari kujya hamwe, aho bambaye udupira twiganje mu mabara y'icyatsi. Harimo kandi n'abashinzwe umutekano n'undi umwe ufite indangururamajwi ari kugenda yamamaza. Bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo "Kurwanya ihohoterwa, ni inshingano yanjye."

Abantu bateraniye hamwe mucyumba cy'inama, bambaye udupira dusa umukara, harimo abagabo n'abagore, ndetse n'abasore n'abakobwa, bakaba bari kwiga ku indwara y'ubuzima bwo mu mutwe.

Abana bateraniye hamwe bari guseka, aba bana rero bakaba bogoshe bambaye n'impuzankano bigaragaza ko ari abanyeshurire, barishimye baranezerewe bigaragaza ko serivise z'ubuvuzi zibageraho.

Umuntu wambaye imyenda y'ibicuki ndetse hafi kwambara ubusa, afite imisatsi yashokombeye aho ari gusuhuzwa n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'agashati k'ubururu n'umutuku.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, agashati k'umweru n'umukara, akaba ahagaze imbere y'inyubako nziza ikikijwe n'imikindo, ifite ibikuta biteye irangi rya oranje, akaba ari inzu iherereye mu karere ka Huye, aho bita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Umukecuru wicaye akikijwe n'abana benshi cyane, aho bishimye bari kwifotoza. Ni kumanywa, izuba riri kuva, aho ryabakubise ku ruhanga, none rukaba ruri kuyaga.

Abantu babiri, harimo umwe w'umukobwa, wambaye imyenda y'ikanzu y'ubururu afashe ibipupe b'inyamaswa y'ingwe mu ntoki. Iruhande rwe hari undi wambaye ikanzu y'umukara, bari kugenda baganira, banaseka.

Amagambo yanditse mu nyuguti zisa icyatsi, ndetse n'ikimenyetso cyo gukuba, hakaba hari kuvuga ngo: Umunsi Mpuzamahanga wita k'ubuvuzi bwo mu mutwe.

Umugore wicaye usa n'ugeze mu zabukuru, yambaye agapfukamunwa yicaye ku ntebe y'urubahu, ari kumwe na muganga wambaye ipantaro y'ikoboyi, ari kumubaza uko amerewe.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba cyo kwa muganga, bakaba bicaye bari mu nama, imbere yabo hari umugabo uhahagaze uri kugenda atambuka abagezaho imbwirwaruhame.

Umugore w'umumama, ucigatiye umwana mu ntoki, ari guseka, umwana nawe ari guseka, bigaragara ko bafite ubuzima bwiza, bari imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko ari kwa muganga.

Abantu babiri bicaye harimo umugabo ndetse n'umugore ufite indangururamajwi mu ntoki. Inyuma yabo hari igitambaro kiriho ikimenyetso cyo gukuba kiri mu mabara y'icyacu n'umweru, kivuga ngo " Turwanye indwara zo mu mutwe."

Uruziga ruri mu mabara agiye atandukanye, ibara ry'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, munsi handitseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza ari mu mabara y'icyatsi, munsi asobanuye mu ibara ry'ubururu.

Abantu batandukanye bateganiye hamwe bari mu nama, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari abandi bagera muri batandatu bari kubakoresha iyo nama, bose bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo ari icyapa cyanditse ngo umunsi Mpuzamahanga wiga ku buzima bwo mu mutwe.

Umukecuru ugeze mu zabukuru wambaye ibitenge by'amaribaya bisa icyatsi birimo n'utuntu tw'umuhondo. Yiteze n'igitambaro ari guseka bigaragaza ko ashobora kuba ageze mu zabukuru.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe uzwi mu kinyarwanda nk'umusazi, yambaye imyenda yacikaguritse ari mu muhanda wa kaburimbo, inyuma ye ari gutoroka moto ndetse n'imodoka y'umweru muri uwo muhanda.

Abana benshi cyane b'abanyeshuri bateraniye hamwe, barishimye bambaye impuzu mpuzankano ziri mu mabara y'ubururu, bose bazamuye ibiganza, inyuma yabo hari ishuri n'Ibendera ry'u Rwanda.

Abantu babiri bari kugaragara kuri iyi foto, harimo umugore ndetse n'umugabo. Inyuma yabo hari icyapa kiriho Ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikindi kiriho Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima mu Rwanda.

Umusore uri guseka wambaye agapira k'umweru, gafite amaboko aciye ndetse akaba ari guseka yerekana amenyo ye meza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ikaba ifite irangi ry'umuhondo ndetse n'icyatsi hejuru, hakaba handitseho amagambo n'ibara ry'umuhondo avuga ngo hope.

Umugabo uri gukorera isuku amenyo ye akoresheje urudodo, ari guseka aho afite amenyo meza cyane, ni byiza cyane gukorera isuku amenyo yacu dukoresheje urudodo kuko bimaramo imyanda yose iba yafashemo.

Abana babiri bakiri batoya ndetse n'abandi bari inyuma yabo. Bafashe uburoso bw'amenyo mu ntoki zabo, aho bari kugenda bakorera isuku amenyo yabo. Bambaye kandi impuzankano z'ishuri.

Umukobwa mwiza cyane wambaye imyenda y'umweru, aryamye kwa muganga aho yagiye kwisuzumisha amenyo, abaganga na bo bafashe ibyuma byabugenewe bari gukoza ku menyo ye ngo barebe ko ameze neza.

Umugabo uri kumwe n'umukobwa we, bambaye udupira tw'umweru, bakaba bafashe urudodo rumwe barushyize mu menyo yabo, bari kugenda bayasukura, ubu ni uburyo bwiza rero bwo kugirira isuku amenyo yacu dukoresha urudodo.

Umusore ufite urudodo mu ntoki ari kugenda akoza mu menyo ye, ubu rero ni uburyo bwiza bwo kugirira isuku amenyo yacu dukoresheje urudodo, akaba yambaye ishati y'umweru ari kwireba mu ndorerwamo.

Umukobwa mwiza cyane, wambaye amaherena ku matwi, akaba afite umusatsi mwiza w'umukara, arasamye, akaba yagiye kwa muganga ngo basuzume amenyo ye, barebe ko ari mazima.

Umusore uri guseka bigaragara ko ari umuganga, ari kutwereka urugero rwiza rw'uburyo twakwita ku menyo yacu, tukayarinda umwanda, tukajya tuyagirira isuku.

Umugabo w'umusaza w'umuganga akaba yambaye amadarubindi, yambaye agashati keza k'agataburiya k'umweru, ari kureba imbere ku gikuta, ahari amoko menshi agiye atandukanye y'amenyo.

Umugore wagiye kwa muganga afite ikibazo cy'amenyo, none bamuryamishije ku gitanda, abaganga bagera muri batatu bari kumwe na we, bamwasamishije ngo barebe ikibazo amenyo ye afite.

Umugabo uri gukorera isuku amenyo ye, akoresheje urudodo rufashe ku kuma gasa icyatsi, ni byiza cyane gukorera isuku amenyo yacu dukoresheje urudodo.

Umugabo uri gusukura amenyo ye akoresheje urudodo. Uko bigaragara ari guseka kandi arishimye cyane. Yishimiye ko amenyo ye ari meza cyane kandi afite isuku.

Umukobwa mwiza cyane w'inzobe ufite amenyo meza, akaba yakoresheje ibimenyetso intoki, atwereka amenyo ye meza hagati, na we aradushishikariza kwita ku menyo yacu akaba meza cyane.

Umwana ukiri muto yagiye kwa muganga kwisuzumisha amenyo, none muganga yambaye udupfukantoki ari kugenda akora kuri buri menyo ye ngo yumve ko ameze neza atayigerekerane iryo arasanga ritameze neza araza kurikura.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho ari icyumba kigari kirimo ibikoresho byose abaganga bifashisha igihe baba bari kwita ku barwayi.

Ibiganza by'umuntu byambaye udupfukantoki dusa umutuku, bikaba bifashe igishushanyo cy'amenyo aho ari kugenda ahanduramo akantu runaka, bigaragara ko ari indwara ari kuvura.

Ni byiza cyane ko umuntu wese igihe yumva atameze neza yanyarukira kwa muganga, aha rero hari icyumba cyiza cyane cyakirirwamo abarwayi barwaye amenyo, hanyuma bakaba babavura.

Utwuma dufite ibirindi bisa umukara, utu twuma rero twifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, aho baba bari gukura iryinyo bakakifashisha kugira ngo umuntu atababara.

Umugabo uri guseka cyane yishimye aho afite ubwanwa bwiza cyane n'agasatsi gake, yambaye agakote k'agakoboyi aho ari kutwereka ubwiza bw'amenyo ye, akaba akoresha korogate nziza cyane.

Umugabo wambaye agapira k'umweru akaba ari kwireba mu ndorerwamo, aho afite urudodo mu kanwa yifashisha ari gusukura amenyo ye kugira ngo hatagira umwanda n'umwe uhasigara hagati y'amenyo.

Abantu babiri harimo umukobwa wambaye agakote k'umutuku n'undi wambaye ak'umweru, umwe yambaye amadarubindi undi ntabwo ayambaye, baricaye barishimye, bose bafite impapuro ariko umwe muri bo ari kwandika.

Ni ku ishuri aho mo imbere harimo umuganga uri gusobanurira umwana w'umunyeshuri ibijyanye n'amenyo. Inyuma yabo, hari abandi bantu bahagaze, bazanye n'uwo muganga.

Umusore mwiza cyane, wateretse umusatsi, akaba ari kureba muganga ari guseka. Muganga na we yambaye ga mu ntoki z'ubururu, akaba afite igikoresho kiriho amenyo y'amakorano.

Inyubako nziza cyane irimo icyumba gitangirwamo serivise zubuvuzi aho mo imbere harimo intebe zigiye zitandukanye, hari iziri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, hejuru purafo zirasa umweru.

Umwana muto, wagiye kwa muganga kwisuzumisha amenyo none abaganga babiri umukobwa n'umuhungu, bamwasamishije bari kugira ngo barebe ko amenyo ye atari impengekerane ngo bayagorore cyangwa bayakure.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo umuganga wambaye itaburiya, amadarubindi n'agapfukamunwa, uri kugenda yandika ku rupapuro, imbere ye hari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Umusaza ugeze mu zabukuru, yambaye amadarubindi ndetse ari gushyira umuti wamenyo ku buroso kugira ngo ajye kugirira isuku amenyo ye.

Abana b'abanyeshuri bato b'abirabura, bafite uburoso mu ntoki n'abandi babushyize mu menyo, bari kugenda bayasukura, bigaragaza ko bari gutozwa uburyo ki bakwita ku menyo yabo.

Abana b'abanyeshuri benshi batandukanye, bambaye imyenda ijya gusa umuhondo y'amashati. Bose bazamuye amaboko, bafashemo uburoso bw'amenyo ndetse n'umuti w'amenyo.

Mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, by'umwihariko ahazwi nk'ahatangirwa serivise zo gukura amenyo. Harimo ibikoresho biba byarabugenewe, bifashisha bari gutanga ubuvuzi bw'amenyo.

Umusaza ugeze mu zabukuru, yambaye agapira k'umweru, ndetse ari kumwe na muganga, ateruye ka ariteri mu ntoki, muganga ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Abamama bageze mu zabukuru, harimo abambaye impuzankano z'umweru n'umukara, undi umwe wambaye ikanzu n'undi wambaye agashati k'ubururu n'ijipo y'umukara. Bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba ari kumwe n'umukecuru we, na we ugeze mu zabukuru, umukecuru amaze kumuha ikirahure cy'amazi ngo umusaza asome. Ni byiza cyane kwita ku bantu bageze mu zabukuru.

Umusaza ugeze mu za bukuru yagiye kwa muganga, none umuganga w'umukobwa ari kumushyira mu kuma kabugenewe ari kugenderaho kugira ngo agorore imitsi ye. Iki cyumba rero ni kiza cyane giteye amarangi y'umweru ku nkuta.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, yambaye agashati k'umweru, imisatsi ye ni imvi, ari kumwe n'umukobwa we wambaye agashati k'icyatsi gafite udusozo dusa umweru, bose bari guseka bigaragara ko bishimye.

Umukecuru aho ari kumwe n'umwana we w'umukobwa w'umuganda, uwo mukobwa ari guseka ndetse n'umukecuru ari guseka, uwo mwana yambaye isaha ku kuboko na ho umukecuru yambaye impeta ku kuboko kwe kw'ibumoso.

Umusaza ugeze mu zabukuru yambaye agashati k'ubururu n'agapfukamunwa. Yicaye ku gatebe, hari umuganga uri kumufungira amapesu. Uwo muganga yambaye impozankano z'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa.

Abakecuru n'abasaza bageze mu za bukuru, bicaye ahantu bicaye ku ntebe zigezweho z'amadiva, buri wese agiye afite agakoni ke, aha hantu uko bigaragara hashobora kuba ari mu cyaro.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba aryamye ahantu ku gitanda ndetse akaba yambaye imyambaro y'umweru, iruhande rwe hari umuganga aho ari kumwitaho amubaza uko amerewe ndetse hari n'ibyuma byifashishwa mu buvuzi iruhande rwe.

Umusaza ugeze mu zabukuru yambaye agashati k'icyatsi, ari n'umukecuru we na we ugeze mu zabukuru wambaye agapira k'umutuku, afite ibinini mu ntoki, umukecuru afite urupapuro ruriho uburyo ki agomba gukurikiza mu kunywa iyo miti.

Umusaza ugeze mu zabukuru, aho ari kugenda afashwe mu biganza n'umukobwa cyangwa se umugore w'umuganga, amusekera mu rwego rwo kumuha serivisi nk'umuntu ukuze.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, aho yambaye agapira k'icyatsi ndetse n'umupira w'umweru inyuma ye, afite ikirahure mu ntoki agiye kunywa ibinini yandikiwe na muganga, ari kubibara ngo arebe ko umubare wuzuye.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, aho ari kumwe n'abana be, uw'umuhungu ndetse n'uw'umukobwa, bari kugenda bamwarurira indyo yuzuye, igizwe n'imboga ndetse n'imbuto. Umukecuru na we arishimye cyane.

Umusaza ugeze mu zabukuru aho yambaye ikintu mu kuboko kwe kijya kumera nk'isaha, akaba ari kugenda areba uko ubuzima bwe bugiye buhagaze, yambaye ishati isa shokora.

Ni byiza cyane ko igihe cyose abantu bageze mu za bukuru bajya bibumbira hamwe bakaganira bakishima bakanaseka. Aba rero ni abagore batatu b'abakecuru bageze mu za bukuru.

Umusaza ugeze mu za bukuru aho ari kumwe n'umukobwa we, umusaza arashaje cyane, uwo mukobwa yambaye ikarita y'akazi mu ijosi rye, uwo musaza ari kumwereka muri telefoni.

Abantu b'abagore bageze mu za bukuru, bakaba bari mu isambu aho bari gusoroma icyayi, ni abagore bageze mu za bukuru, bakaba bari gushaka amafaranga yabatunga binyuze mu gusoroma icyayi.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba afashwe n'abakobwa babiri ndetse n'umugabo umwe. Bari kumusindagiza ngo barebe ko yamererwa neza.

Umusaza ugeze mu zabukuru wambaye imyenda y'umweru, yicaye mu gatebe ari kurerebana na muganga bishimye bari guseka. Muganga yambaye imyambaro y'ubururu.

Umusaza ugeze mu zabukuru aho ari kumwe na muganga, muganga ari kugenda amusuzuma bakina ugisoro kugira ngo umusaza anezererwe.

Abantu bateraniye hamwe aho bari mu nama, bicaye mu buryo bw'uruziga, bicaye kandi munsi y'ibiti bibiri bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Muganga w'umugabo ari kumwe n'umusaza ugeze mu za bukuru ari kumusukira akaji mu kirahuri ngo umusaza abashe kunywa, dore ko ageze mu za bukuru.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, agasengeri k'ubururu, akaba yicaye ahantu hasa umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kurambura amaboko ye ayakoza ku kaguru k'iburyo.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba yambaye umupira usa shokora, iruhande rwe afashwe mu biganza n'umugore w'umuganga wambaye agapfukamunwa, akaba ari kugenda amusindagiza.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, akaba ari ahantu mu muhanda, ari kugendera ku kuma kabugenewe, ari kumwe n'umukobwa we amutwaje imbuto avuye guhaha. Uwo mukobwa arasa inzobe.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, akaba yasuwe n'umuganga. Umuganga w'umugore. Yambaye imyenda y'umutuku, yambaye agapfukamunwa n'amadarubindi amufashe ukuboko ari kumusuzuma.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba, harimo abasaza n'abakecuru ndetse n'abakiri bato, bose bahanze amaso umukecuru uri kuboha agatebo mu buryo bw'ubukorikori.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, aho ari kumwe n'umusaza wambaye agapira k'ubururu, uwo mukecuru rero n'umusaza, bari kugenda bareba ku rupapuro. Imbere yabo ku meza, hari agacupa karimo imiti igiye itandukanye.

Umusaza ugeze mu zabukuru, aho ari kumwe n'umuganga w'umugore wambaye impuzankano zo mu mabara y'umukara ndetse n'umweru. Amufatishije ku byuma, bari kugenda barebana, umusaza agenda agorora imitsi ye.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, wambaye imyenda y'umweru. Akaba afite agasahani k'umweru mu ntoki ze karimo ibyo ku kurya, afashe ndetse n'ifoke. Ni byiza cyane kwita ku bantu bageze mu zabukuru, tubaha indyo yuzuye.

Umusaza ugeze mu za bukuru yagiye kwa muganga none muganga ari kumwandikira imiti, ari kureba ku gapapuro niba imiti yamwandikiyeho ikwiriye yaba atibeshye.

Umusaza ugeze mu zabukuru, yambaye amadarubindi, afite imvi ari guseka, yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, aho inyuma ye hari umukobwa mwiza cyane wambaye agapira k'icyatsi, uri kugenda amusunikamo.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba yagiye kwa muganga none muganga yamuhaye akuma gasa umuhondo k'akagozi, bari kugenda bakurura, bagenda bakarerega kugira ngo imiti y'umusaza igororoke.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba yicaye ahantu ku meza imbere ye hari ibitabo ari kugenda asoma, hari kandi n'ikirahure cy'umweru kirambitse iruhande rwe kirimo amazi agenda anywaho uko agize icyaka.

Abantu benshi cyane batandukanye, bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, icyo cyumba rero gifite ibikuta biteye amarangi y'umutuku, umukara ndetse n'umuhondo, parafo zirasa umweru.

Abagore b'abaganga, harimo umwe wambaye imyenda ijya gusa ubururu, n'undi wambaye akajire k'umukara. Bakaba bose bambaye udupfukamunwa. Imbere yabo ,hakaba hariho icyapa cyanditseho ngo "raporo yavuye muri Covid cumi n'icyenda, mu karere k'Afurika y'Iburasirazuba".

Umwana uryamye ukiri mutoya, iruhande rwe handitseho amagambo avuga ngo: Ihuriro ryita ku buzima ku Isi, umunsi wa mbere tugahita dutangira.

Amagambo yanditse mu nyuguti nkuru ziri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Akaba yanditse mu rurimi rw'Icyongereza aho mu kinyarwanda avuga ngo Ikigo cy'Igihugu cyita ku Buzima mu Rwanda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu nama. Imbere yabo hari abagabo babiri bari bicaye bari kubagezaho inama. Inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo ngo: "Turwanye kandi duhagarike icyorezo cya Marburg." Iyi nama yabereye i Kigali ku itariki makumyabiri z'ukwa cumi, bibiri na makumyabiri na kane.

Abantu babiri harimo umukobwa n'umugabo, uyu mugabo ni umuzungu aho yambaye ikote ry'umukara, umukobwa na we ni umwirabura aho yambaye agakanzu keza cyane kagufi.

Ishusho iriho utuziga tugiye dutandukanye, na two twanditsemo amagambo y'umweru matoya atagaragara neza. Ariko turi mu mabara atandukanye ari yo: ubururu, umuhondo, umukara, icyatsi ndetse n'ibara ry'icunga.

Icyapa kiri mu mabara y'icyatsi n'ubururu. Hakaba harimo utuziga tubiri. Aho akaziga kamwe kari mu mabara y'umweru n'akandi kakaba kari mu mabara y'umweru, kanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku, harimo n'akanyoni kari kuguruka.

Amagambo ari mu ibara ry'icyatsi avuga ikigega cy'isi cyita ku bidukikije, hari n'ayandi yanditse mu ibara ry'ubururu, nayo avuga ko ari umunsi mpuzamahanga wita ku bijyanye n'ubuzima n'ibidukikije.

Abantu bafashe icyapa cyanditseho ngo: ''Rubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda; irinde virusi itera SIDA, ipimishe uyu munsi.''

Umukecuru ugeze mu zabukuru, akaba yagiye kwa muganga kwipimisha virusi itera SIDA, muganga akaba yamufashe urutoki, aho agiye guteramo urushinge hanyuma agafata amaraso, akayapima ngo arebe ko nta bwandu afite.

Umugabo wambaye ishati y'umweru. Akaba ari we wasohotse ku mashusho bavuga ko ari we uzatanga imbwirwaruhame ku itariki mirongo itatu z'ukwa cumi, saa cyenda zuzuye.

Icyapa cyanditseho imibare cumi na gatatu, cumi na kane, ndetse na cumi na gatanu, handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu, avuga ngo turwanye indwara ya diyabete.

Icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye. Aya magambo akaba ari mu nyuguti z'umweru, ahantu ari gusa iroza. Handitseho ngo murakaza neza mu munsi wita ku buzima bw'abagore, bibiri na makumyabiri na gatanu.

Indyo yuzuye mu buzima, ni byiza cyane ko umuntu arya imboga n'imbuto kugira ngo agire ubuzima bwiza, abaganga rero bahora badushishikariza kurya indyo yuzuye kuko ari ingenzi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe abicaye n'abahagaze, bafite udutabo mu ntoki zabo bari kwifotoza, ameza ari imbere yabo arambuyeho igitambaro cy'umweru.

Amagambo yanditse mu nyuguti z'umweru ndetse hariho n'umubare gatatu. Ahantu yanditse harasa icyatsi cyerurutse. Hakaba kandi hariho umurongo uvunaguye werekeza mu mutima.

Umuntu wambaye imyenda y'ubururu, yagiye kwa muganga none muganga ari kumutera urushinge, uri kumutera urushinge ni umuyisilamu, wambaye ingofero y'abayisilamu n'akajire k'abakorerabushake.

Ababikira bagera muri batatu, bambaye impuzankano zabugenewe ndetse n'amadarubindi. Bari gusuhuzanya na Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, Dogiteri Sabin Nsanzimana. Inyuma yabo, hari ibyapa by'ubururu byanditseho ikirangantego cy'u Mwanda ndetse na Minisiteri y'Ubuzima.

Abagore b'abaganga bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru, bambaye n'ingofero z'umweru, bambaye n'udupfukamunwa dusa umweru ujya kuba ubururu, bakaba bari kwifotoza bigaragaza ko bari kurwanya icyorezo runaka.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bambaye imyambaro y'udupira tw'umweru, bafite ibyapa mu ntoki byanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare kuko iravurwa igakira.

Igitabo kiri mu ibara ry'ubururu hariho n'amagambo y'icyatsi ndetse n'umweru, hakaba handitseho ngo kuboneza urubyaro, hariho kandi n'amagambo yanditse avuga ngo imyaka icumi.

Amagambo agiye atandukanye yanditse mu mumabara ry'umweru ahantu hasa ubururu, hari kandi amagambo yanditse mu mabara y'umukara mato adasomeka neza, ariko akaba avuga uburyo ki tugomba kurwanya indwara ya SIDA ku isi.

Bari kutwereka uko ubuzima bw'abana buhagaze. Hari umwana w'umuzungu wasamye, ndetse imbere ye handitseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza. Hirya yayo hari andi matoya yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, mu ibara ry'umweru.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo asa umweru mu rurimi rw'icyongereza, avuga uburyo ki bagomba kwigisha abanyeshuri ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina uko bayirinda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo abagore, bambaye udupira tw'umweru ndetse bicaye ku ntebe z'umweru, imisatsi yabo ni iya menshi, imbere yabo hari umugore wambaye agapantaro uri kubakoresha inama.

Umuntu urwaye urembye aryamye ku gitanda kwa muganga, hari abaganga benshi cyane bambaye impuzankano zisa icyatsi n'udupfukamuwa baje imbere ye, bari kureba uburyo ki bamuvura akaba yakira kuko ararembye.

Umugabo uri guseka wambaye agashati keza cyane k'icyatsi, akaba ari we bari kwerekana ko ari we uzatanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima ku Isi.

Icyapa kiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, kikaba cyanditseho amagambo y'Icyongereza ari mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umweru, hariho ahanditse ngo Afurika y'Iburasirazuba.

Ni byiza cyane ko igihe cyose umuntu yumva atameze neza yakwihutira kujya kwa muganga akajyanayo umwana we, hano rero hari inyubako yanditseho ngo inzu y'impinja.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, aho kiba kirimo ibikoresho byose byabugenewe abaganga bifashisha, mu gihe baba barimo barasuzuma abarwayi indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ishakaje amabati y'ubururu, ibikuta byayo birasa ubururu, imbuga yaho ishashemo amapave haparitsemo imodoka imwe ndetse hahagazemo n'abantu bagera muri bane.

Inyubako nziza cyane, aho ifite ibyumba bigiye bitandukanye, iyi nyubako rero itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho haba harimo imiti igiye itandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa. Imbere yayo haparitse akamodoka na moto. Imbuga yaho ishashemo amapave. Hari ubusitani bwiza cyane burimo idarapo ry'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite amadirishya y'umweru. iyi ngiyi ni laboratwari, munsi ku kabaraza hicaye abantu baje gushaka serivisi. hari n'ubusitani bwiza cyane.

Umugabo wambaye amadarubindi ndetse n'itaburiya akaba afashe telefone mu ntoki, uyu ni umuganga, iruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'abana bari hirya yaho, hari n'inzu imeze nabi iri iruhande rwabo.

Inyubako nziza cyane, zigiye zitandukanye, zigaragaza ko ari inyubako zitangirwamo serivisi z'buvuzi kwa muganga. Hari ubusitani bwiza cyane, n'igiti kimwe kirekirere gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inzu nziza itangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, ikaba yubakishije amatafari ahiye, hakaba handitseho amagambo mu ibara ry'umukara ngo materinete, inzu y'ababyeyi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako ifite irangi ry'umweru ndetse munsi y'iyo nyubako mu rubaraza, hahagazemo umugabo umwe.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo umurwayi uryamye warembye, abaganga bose bamuteraniyeho, bari gukora uko bashoboye kugira ngo barebe ko bamusubiza ubuzima.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ya etage ikaba yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba ifite amabara y'umweru ku bikuta hanze ku muhanda hari kugendamo abantu.

Umugabo wagiye kwa muganga kwikingiza none bakaba bagiye kumutera urushinge, akaba yambaye isengeri, yamanuye ishati, ugiye kumutera urushinge ari kumukingira icyorezo cya Korona viusi.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu, ifite ibikuta bisa ubururu ndetse iruhande rwayo haparitse imodoka, hari n'abantu bagera muri bane bahagaze imbere y'iyo modoka.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'igorofa, ikaba ifite imbuga ishashemo amapafe, haparitsemo imodoka imwe ndetse n'izindi nyinshi, harimo abagabo batatu.

Ni ku kigo nderabuzima cya Gisenyi. Amarembo arafunguye hari abantu ku rubaraza baje gushaka izo serivise, ku muryango hari icyapa cyanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Gisenyi.

Mu cyumba cy'inzu itangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, hateraniyemo abantu batari benshi cyane kuko intebe zimwe muri zo zibereye aho, nta muntu ubari imbere bisa naho bategereje abaganga bagiye kuza kubaha serivise.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, aho mo imbere harimo ibikoresho byinshi bijya bitandukanye abantu bifashisha igihe barimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza wicaye munsi y'igiti gitanga umuyaga n'amahumbezi, yicaye ku gitebe cyubatswe muri sima ndetse n'amabuye, hirya ye hari inyubako iri kurenga.

Inyubako nziza cyane, iteye amarange y'umweru ndetse n'umukara. Hakaba handitseho ku marembo ngo "Ibitaro by'akarere ka nyarugenge". Hari ubusitani bwiza, burimo indabyo zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, hejuru muri purafo hari kwaka amatara y'umweru ndetse hateyemo n'irange ry'umweru n'umuhondo nta muntu uri muri iki cyumba.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho iyi nyubako mo imbere hashashemo amarido, harimo kandi n'ibitanda abarwayi bakunda kuryamaho igihe baje kwivuza.

Inzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, nta muntu n'umwe urimo. Amatara ari kwaka mu ibara ry'umweru, ndetse hari na mubazi ikoreshwa mu muriro w'amashanyarazi.

Umugabo w'umuganga utanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, akaba yicaye ku gatebe k'icyatsi, mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga.

Intebe zigiye zitandukanye ziri mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, izi ntebe rero zirasa umweru, umuhondo ndetse n'umukara, icyo zihuriyeho zose ziba zifite amapine.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho uburyo bw'amagorofa, iteye amarange y'umuhondo ndetse ifite n'ibirahure byinshi, hasi haparitse imodoka nyinshi, akayira cyangwa imbuga hashashemo amapave.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo intebe zisa ubururu abantu bicaraho bategereje. Iyi nyubako ntamuntu n'umwe uyirimo ndetse ibikuta byayo birasa umweru.

Ni kwa muganga, mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi. Hari umugore wicaye ku gitanda ndetse n'umuganga uri kugenda amwitaho, amubaza uko ubuzima bwe buhagaze. Inyuma ye, hari undi mugore uryamye.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba iteye irangi ry'umweru, kandi kuri iyo nyubako hariho amagambo yanditswe mu mabara agiye atandukanye: ubururu, umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Imyipfundo cyangwa se iminyenga aho abana bakunda kwicaraho bagenda babasunika bakagenda bakora imyitozo ngororamubiri, ibyuma byayo birasa ubururu bibiri n'ikindi cyo hagati gisa icyatsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite ubusitani bwiza buteyemo igiti kinini cy'inganzamarumbo, kikaba kifashishwa mu gutanga umuyaga n'amahumbezi ku bantu bahari.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi yo kwa muganga, harimo ibitanda byabugenewe abaganga bifashisha bari kuvura abarwayi, harimo ibitanda bifite amabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'umweru.

Inyubako nziza cyane, ikaba iteye amarangi y'umweru. Hejuru hakaba hariho icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'icyatsi. Hakaba hari n'igiti cy'umukindo kiri kugaragaza amababi gusa.

Icyumba cy'inyubako itangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi kwa muganga, gifite inkuta zisa umweru, purafo zisa umweru n'amatara ari kwaka mu ibara ry'umweru.

Knyubako nziza cyane iteye karabasasa isa n'ivu hakaba handitseho amagambo mu ibara ry'icyatsi avuga ngo" Ibitaro bya Rwamagana. Hafi hahagaze abantu benshi cyane bari kuhifotoreza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, imbere yayo hari amabendera atatu iryo hagati muri yo ni irya repubulika y'u Rwanda, hejuru hakaba handitseho amafaranga ko ari ibitaro byitiriwe umwami Faisal.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, ifite ibirahure biri kujya gusa ubururu ndetse n'ibikuta bisa umweru, haasi mu kayira hashashemo amapave, hari kandi n'ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane, ikaba isakaje amabati y'ubururu, ikaba yubakishije amatafari ahiye. Hakaba handitsweho amagambo avuga ngo "Inzu y'ababyeyi".

Icyuma cyo kwa muganga kiri mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kikaba gisa umweru ndetse kikaba gifite n'aho umurwayi aryamaho bagiye kumusuzuma ngo barebe uko ahagaze.

Umuganga uri mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, imbere ye hari icyuma cy'umweru, abaganga bifashisha bagira ngo basuzume barebe niba umurwayi ameze neza.

Icyumba kiri gukorerwamo inama, hari abantu benshi cyane bateraniyemo aho bicaye. Hari kandi n'abandi batatu bari imbere yabo, bari kubakoresha inama. Hari n'undi umwe uri gufotora. Imbere ya buri wese hagiye hateretseho amazi yo kunywa.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo ibikoresho byose nkenerwa abaganga bifashisha kugira ngo bahe serivisi abarwayi, harimo kandi n'isakazamashusho ebyiri zijimije.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, haba harimo intebe zigiye zitandukanye, abaje babagana bicaraho, hanyuma akaba ari kurebana na muganga, muganga akamubaza umurwayi na we asubiza.

Icyapa kimanitse ahantu imbere y'umuhanda wa kaburimbo, kikaba kiri mu mabara y'umweru, cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara ndetse n'amabara y'umutuku, ahantu giteye hashashe amapave.

Inyubako nziza cyane ifite icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi byabugenewe, byifashishwa mu gusuzuma abarwayi. Harimo kandi n'insakazamashusho ebyiri zizimije.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, by'umwihariko ahakorerwa imyitozo ngororamubiri. Harimo ibyuma byinshi cyane bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abantu baje kwivuza bakeneye kugororoka.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho kirimo ibitanda biri mu mabara y'umweru, hakaba hari n'inzitiramibu hejuru ya buri gitanda, hagiye harimo n'amarido asa ubururu.

Umusore uryamye ku gitanda kwa muganga yambaye ingofero, inkweto, agapantaro, k'umukara n'agapira k'umweru yambaye kandi agapfukamuwa, hari umuganga uri kumwitaho amushyira serumu mu kizigira cy'ukuboko.

Icyumba cy'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo umuganga wambaye agapfukamunwa, ufite n'imisatsi yazirikiye inyuma, akaba afite mudasobwa imbere ye izimije ari kurebamo.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hari urugi rusa umukara, hari kandi n'icyuma bacishamo abantu kiri gusa umweru, hariho n'agatanda umurwayi aba aryamyeho.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hahagaze umugabo uri kujya gusaba serivisi, hari n'undi wicaye, bose bambaye udupira tw'ubururu, muri icyo cyumba harimo insakazamashusho iri kwaka.

Abantu benshi cyane, bateraniye hamwe mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zita ku buvuzi. harimo abantu babiri baje kwivuza, ndetse n'abaganga bagera muri batatu, bari kugenda babitaho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, ikaba itangirwamo serivise zo gucuruza umuti, nk'uko bigaragara hano ni muri farumasi dore ko hejuru hari icyapa cyanditseho ngo gudurayife farumasi.

Icyumba kigari cyiza cyane gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byose nkenenerwa abaganga bifashisha mu gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Abantu bari mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aba bantu rero ni abaganga kuko bambaye amataburiya y'umweru, bose bagera muri batatu.

Icyumba cy'inyubako itangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi kwa muganga, ikaba ifite ibikuta bisa umweru ndetse na parafo z'umweru, iyi nyubako rero ni nziza cyane.

Inyubako nziza cyane ziri kurenga, ziteye amarangi asa n'ivu. Hari utuyira tuganayo dushashemo amapave. Hari kugendamo abantu ndetse hari n'ubusitani bwiza burimo ibiti bitanga amahumbezi n'umuyaga ku bahagenda bose.

Umuganga w'umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari kumwe n'umurwayi, aho yafashe ukuboko k'umurwayi akwikoza ku itama, kugira ngo yumve ko ubuzima bwe bumeze neza.

Umuganga wicaranye n'abagore babiri, abicaye imbere yambaye imyenda y'umutuku ndetse n'amadarubindi, ari kugenda abasobanurira uko serivisi z'ubuzima ziba zihagaze.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Aho ibyo bikoresho byicarwaho n'umurwayi ndetse na muganga bakaganira.

Inyubako nziza cyane yubatswe uburyo bugezweho, ikaba ifite ibirahure bibonerana. Umuryango urafunguye ikaba ifite ubusitani bwiza cyane burimo imikindo n'indabyo zitandukanye, akaba ari kunzu yita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe ya carayesi.

Ni kwa muganga, mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, hari umurwayi uryamye. Iruhande rwe hari umuganga wambaye iby'ubururu, aho ari kugenda amwitaho ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Ibitaro bya Kabgayi ni ibitaro byiza cyane, bitanga serivisi zigiye zitandukanye, zita ku buvuzi. Bavura indwara zananiranye, by'umwihariko nk'indwara y'amaso.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako iteye amarange y'umweru. Ifite ibirahure bibonerana ndetse hari n'ahateye amarangi y'umuhondo. Hakaba hari icyumba gikorerwamo ubushakashatsi.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, haba harimo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, abaganga bifashisha mu gihe bari kwita ku barwayi, harimo kandi igitanda gisa icyatsi umurwayi aryamaho.

Abakobwa bagera muri batandatu b'abaganga bambaye impubankano ziri mu mabara y'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, bafunze ibipfunsi bigaragaza ko hari intego bihaye.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga. Iteye amarangi y'umweru ndetse n'amabara y'icyatsi hejuru, parafo zirasa umweru ndetse n'amatara ari kwaka. Nta muntu n'umwe urimo imbere.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, ikaba iteye amarange y'ivu. Munsi yayo, hari amavaze ateyemo indabyo. Ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, mu rurimi rw'Icyongereza.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ibyo abantu bifashisha igihe bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi irasa neza, mo hagati hari agasima gateyemo indabyo. harimo intebe zigera enye, ebyiri z'ubururu, n'izindi ebyiri z'umuhondo, zose z'imifariso.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite ibikuta biteye irange ry'umweru, akaba ari inyubako y'Ikigo nderabuzima cya Gishweru.

Umugore wambaye ikanzu y'umweru, yambaye n'ingofero n'agapfukamunwa, iruhande rwe hateretse indobo, uko bigaragara uyu ni umuganga aho avura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho imbere yayo hari kaburimbo, iyi rero ni inyubako y'ibitaro bya kaminuza ya CHUB, iherereye mu karere ka Huye ndetse mu ntara y'Amajyepfo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba itangirwamo serivise z'ubuvuzi, harimo ibitanda byinshi abarwayi baryamamo, hari n'abantu b'abaganga ndetse n'abarwayi bari muri icyo cyumba.

Iyi nyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, iruhande rwaho hakaba hari icyapa kigaragaza ko ari mu bitaro bya kaminuza y'u Rwanda bya Butare CHUB.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakishije amatafari ahiye, inzugi zayo zirasa umweru ndetse n'ibirahure bya fime iruhande rwayo hari umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo ijya gusa umweru.

Umugabo ubyibushye cyane wambaye agapira k'icyatsi, agakabutura k'umweru, agapfukamunwa k'umweru, akaba aryamye kwa muganga, aho bari kumwitaho bamusuzuma ngo barebe uko ubuzima bwe bumeze neza kuko bamushyize serumu ku kuboko.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibi bikoresho rero byifashishwa n'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri kuko buri gikoresho kiba gifite insakazamashusho yerekana siporo zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane ishakaje amabati y'ubururu ndetse ikaba ifite ibikuta biri gusa umweru, ikaba yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu avuga ngo inzu y'ababyeyi.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati asa ubururu, aha rero nkuko bigaragara ni kwa muganga mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, akayira kajyayo gashashemo kaburimbo ndetse hari n'ubusitani bwiza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba irimo parafo z'umweru hari kwakamo amatara ndetse hashashemo amakaro asa umuhondo, hari n'amarangi y'umuhondo n'umutuku.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ikaba ifite ibikuta biteye irangi rijya gusa oranje, ikaba yanditseho amagambo mu ibara ry'icyatsi, umuhondo, n'ubururu.

Umwana mutoya uri ku gipimo kwa muganga, aho bamushyize ku munzani. Muganga ari kwitegereza ngo arebe ingano ye n'ibiro afite ko imikurire ye imeze neza. Uyu mwana arasa inzobe ndetse ni umukobwa.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, byifashisha bari guha serivisi umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba yavunitse, harimo za pomade bamusiga aho yavunitse hanyuma akoroherwa.

Agacupa gasa ubururu, kakaba karimo amazi gapfundikije umupfundikizo usa ubururu, aka gacupa rero kakaba karimo amazi akorwa n'uruganda rwa Nile.

Agakoresho abantu bakora umwuga w'ubuvuzi bifashisha mu gihe baba bari gufasha umuntu utabasha kugenda kuba yagorora imitsi ye, aho agafataho akagenda agasunika ari ko agenda agorora imitsi ye.

Agasanduku gasa icyatsi, aho karimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, cyane cyane indwara zataka abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore warimo akora imyitozo ngororamubiri none yavunitse, akaba yishyize ibarafu ku nkokora ziwe, aho yavunitse kugira ngo agende yikanda hanyuma yoroherwe.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye agakabutura k'icyatsi n'agasenge k'icyatsi, yambaye inkweto za sipuresi, aho yazamuye ivi afatishijeho n'amaboko ye yombi.

Ni byiza cyane kwirinda indwara z'imihangayiko. Buriya rero, iyo umuntu akoze siporo ngororamubiri, aba yirinze indwara z'imihangayiko ndetse akanaruhura ubwonko bwe.

Imyitozo ngororamubiri umuntu ashobora gukora akagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, hari utuziga turimo abantu bari gukora imyitozo igiye itandukanye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, haba harimo ibyuma byabugenewe, abaganga bifashisha batanga serivise ku barwayi baje babagana kugira ngo babashe kuba bakira.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, cyane cyane ahashyirwa abantu bakeneye imyitozo ngororamubiri. Harimo ibikoresho byose nkenerwa byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane, aha ngaha rero hari icyapa cy'icyatsi cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, avuga ngo siporo ni umuti, hari n'abantu benshi bari gukora iyi myitozo.

Umumama ukikiye umwana mu ntoki akaba yamujyanye kwa muganga, muganga afite icyuma cyabugenewe, akaba yamutunze mu maso ngo arebe ko imboni z'amaso ye zikora neza.

Umukobwa mwiza cyane ,wambaye agasengeri, akaba yazirikiye imitatsi ye inyuma. Akaba afite agacupa k'ubururu, yashyize ku munwa, ari kunywa amazi. Ni byiza cyane kunywa amazi, kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Akuma bifashisha batanga ubutabazi bw'ibanze, aho bakunze gutwaraho umuntu ugize ikibazo igihe yari arimo gukora siporo ngororamubiri. Kari mu mabara y'umweru ndetse gafite imikandara isa umukara.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byose nkenerwa cyane cyane ibyifashishwa mu gihe bari gukoresha umurwayi imyitozo ngororamubiri, hari intebe imeze nk'igitanda iri mu mabara y'ubururu.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, aho bari gukina imyitozo njyarugamba na mvarugamba, aho bari kugenda bakubitana amakofi, bamwe bikanda mu nda abandi bigorora, hejuru hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Umuntu w'umuzungu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, none akaba yashyize ibarafu isa ubururu ku ivi ryiwe, ari kugenda yikanda kugira ngo arebe ko yakoroherwa.

Inshyimbo cyangwa se inkoni zikunze guhabwa abantu bangeze mu za bukuru kugira ngo bazajye bazicumba maze babashe kugera iyo barya amahoro nta kibazo bagize.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri none yananiwe, akaba ari kunywa amazi akoresheje icupa rizwi nka gurudu risa ubururu.

Urutirigongo rw'umuntu ruba rukomeye cyane kuko igihe cyose yunamye, iyo ahagaze ni rwo aba yishyingikirije. Ni byiza cyane, gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma urutirigongo rukomera.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yazamuye amaboko ye ayafatira hejuru, afite imisatsi myinshi, yambaye agasengeri k'umweru inyuma gafunguye, yambaye kandi agapantaro k'umukara.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba arimo arakora imyitozo ngororamubiri ari kwa muganga. Aryamye ku gitanda, hari umuganga w'umugore umufasha ukuguru ari kugenda amukoresha iyo myitozo.

Igishushanyo cy' insimburangingo y'ivi gisa umukara, aho umuntu acyambara mu ivi igihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, kikaba cyamurinda imvune za hato na hato.

Umugabo wateretse ubwanwa yateretse n'umusatsi awuzirikira inyuma, yambaye imyenda y'umukara, agakabutura ndetse n'agasengeri, ari gukora imyitozo ngororamubiri, apfukamye ndetse arambuye n'amaboko.

Umukobwa wambaye impuzankano z'abaganga, yambaye agapfukamunwa n'udupfukantoki tw'icyatsi ndetse n'agashati k'icyatsi, afite Mudasobwa imbere ye ari kugenda arebamo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye agapantaro k'umweru ndetse n'agasengeri k'umweru, akaba yicaye yihengetse afashe ku mano ye. Ni umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi y'umukara.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, aho harimo intebe begamira ndetse n'akuma bifashisha igihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'agahombo gasa icyatsi kifashishwa.

Amoko agiye atandukanye ya siporo ngororamubiri umuntu ashobora gukora, bigatuma agira ubuzima bwiza, ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, yaje kuvunika none muganga yamufashe amuryamisha ku gitanda, akaba ari kugenda amukanda amuvura.

Umugore wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, none yihutiye kujya kwa muganga, muganga amufashe ukuguru kwe ari kugenda akandakanda ngo abashe kumva ahaba hagize ikibazo cy'imvune.

Umugabo wicaye ku gitanda kwa muganga, hari umuganga uri kumupfuka wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru n'isaha ku kuboko, uyu muntu rero yavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye agapira k'ubururu, akaba afite agacupa k'amazi arimo kugenda anywa, buriya rero kunywa amazi ni ingirakamaro cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Utwuma tuzwi nk'imbago cyangwa inshyimbo, izi ni inkoni zikunda guhabwa abantu bageze mu zabukuru, bakajya bazigenderaho kugira ngo bibarinde guhetama akagongo.

Umukecuru ugeze mu zabukuru akaba yagiye kwa muganga none bamushyize ku cyuma cyabugenewe bashyiraho umuntu mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, hari umuganga w'umukobwa umuhagarikiye ariko utagaragara mu maso.

Uruziga ruri mu mabara y'umweru, rurimo umusaraba utukura, akaba ari ikigo cya Croix Rouge mu Rwanda, umuryango utabara imbabare.

Umuntu wari uri gukora siporo ngororamubiri binyuze mu gutwara moto, yagize impanuka arakomereka none inzobere mu by'ubuvuzi zamwegereye kugira ngo zimube hafi zimujyane kwa muganga.

Akuma kabugenewe kifashishwa mu gutanga ubutabazi bwihuse ku muntu wagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri gafite imishumi y'umukara, hirya hari abantu babiri bambaye iby'umutuku, bateruyeho umuntu wagize ikibazo.

Intoki zambaye udupfukantoki tw'umukara. Uyu muntu uzambaye ni umuzungu. Agiye gukora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza cyane kwambara udupfukantoki igihe cyose tugiye gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri ariko akaba ari gukabya kuko ahantu ku ukuguru kwe ari gukora hari kuza hasa umutuku bigaragara ko harimo amaraso, akwiye kujya kwa muganga akitabwaho.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yicaye hasi. Yambaye imyenda y'umukara. Akaba afite agacupa imbere ye karimo amazi araza kunywa nagira icyaka.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri aho ari kwiruka, iruhande rwe hari imbuto warya maze ubuzima bwawe bukamera neza.

Umusore wicaye ari kwikanda mu itako, yambaye isengeri y'icyatsi ndetse n'agakabutura k'icyatsi. Ari guseka yicaye ahantu mu mucaca usa icyatsi.

Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri, hano rero hari ibikoresho byagufasha gukora imyitozo ngororamubiri, hari nko guterura aliteri, kurya inkeri, kunywa umutobe ndetse no kurya inyanya n'indimu.

Umusore wicaye afite icupa ryamazi ari kunywa. Yambaye imyenda y'umukara bigaragara ko yari gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari umukobwa uhahagaze wambaye agasutiye n'agakabutura k'umukara nawe wari uri mu myitozo ngororamubiri.

Ibiganza bine bishushanyije, aho bigiye bifputse na bande. Bari kutwereka uburyo ki wapfuka ikiganza cyawe mu gihe ugiye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bikurinde guhura n'impanuka zitandukanye.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yambaye agasengengeri gasa umukara. Yazamuye amaboko kamwe agafatishije inkokora z'akandi, akandi gafashe mu mugongo yifotoje aduteye umugongo.

Agasanduku gasa umukara kakaba gafundikiye, iruhande rwako hari ibikoresho byinshi abantu bakunze kwifashisha mu gihe bari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo kandi na za pomade bisiga.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, none akaba yagiye kwa muganga, bamubwira ko agomba gushaka akabafu agashyira ku kuboko kwe, hanyuma akazajya yikandira. Yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye inkweto nziza cyane ya sipurese y'umweru, yambaye agapantaro k'umukara ndetse n'agasengeri k'umukara, yaziritse terefone ku kizigira cy'ukuboko afite ekuteri ari kugenda yumva imiziki.

Umukobwa wambaye isengeri y'icyatsi, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri. Aho ahagaze aduteye umugongo, ukuboko kwe kumwe yagushyize mu mugongo, ukundi gufashe mu nkokora. Hakurya hari imisozi iriho amazu meza cyane.

Umusaza wagize ikibazo igihe yari arimo akora imyitozo ngororamubiri none bakaba bamujyanye kwa muganga, aryamye ku gitanda hari abantu bagera muri babiri b'abaganga bari kumwitaho bagenda bamukandakanda.

Abantu bagera muri batanu b'abaganga, bahuriye hamwe bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa ndetse n'utunozasuku mu mutwe, muri bo harimo uteze igitambaro.

Umusore wambaye agapira k'umweru akaba yambaye na ekuteri mu matwi, afite agacupa k'amazi araramye ari kunywa amazi, bigaragara ko yari yahoze ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Uyu musore yari ari gukora imyitozo ngororamubiri hanyuma aza kuvunika. Bamugiriye inama yo kwihutira kujya kwa muganga. None yagezeyo muganga yamwicaje ku gitanda, akaba ari kumwambika akuma kamufasha kuba yakira vuba.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto za sipuresi, yambaye na ekuteri mu matwi aho ari kugenda yumva imiziki.

Umukobwa n'umusore bari gukora imyitozo ngororamubiri, bose bambaye udusengeri n'udukabutura tw'umukara, bose mu ntoki zabo bafitemo uducupa turimo amazi yo kunywa, hakurya hari imisozi miremire cyane.

Umukobwa wari urimo arakora imyitozo ngororamubiri hanyuma aza kuvunika, yihutiye kujya kwa muganga none muganga ari kumusuzuma ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze, yamushyize igikoresho ku mubiri we gisa umweru n'umutuku ku mavi.

Akagare batwaraho abantu bafite ubumuga bwo kutagenda cyangwa bw'amaguru, gafite amapine ane ndetse n'aho bafata igihe basunitse umuntu urwaye iyo ndwara.

Akuma kari mu mabara y'umweru, kagiye kariho nimero zisa icyatsi n'umukara, aka kuma rero gakunze kwifashishwa n'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho kagenda kamubarira igihe amaze gukoresha.

Amoko atandukanye y'imiti yo mu bwoko bw'ibinini, ikunze kwifashishwa mu gihe abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, ibi binini rero biri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye imyenda y'umukara, imbere ye hari mudasobwa ari kugenda areba imyitozo ngororamubiri akora, hari agacupa k'amazi yo kunywa iruhande rwe.

Umugabo uryamye hasi yiziritse ukuguru, akaba ari kugenda akora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye. Aho haba hari icyuma kiba kiri kugenda kizamura ukuguru, kikanakumanura.

Umugabo wambaye insengeri y'umweru, akaba afite amatugu n'amatuza, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, yafunze igipfunsi none imitsi ye yose yirezeye.

Agakoresho kari mu mabara y'ubururu gakunze kwifashishwa mu gutanga ubufasha ku bantu baba bahuye n'imvune igihe bakoraga imyitozo ngororamubiri, aho bagashyiraho umuntu bakagenda bamuteruyeho, kazwi nka burankare.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, cyane cyane aho batanga serivise z'abantu bakeneye gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibyuma byabugenewe ndetse hari umukobwa uri gukora siporo, hari n'umugabo umuhagarikiye.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri none akaba yagiye kwa muganga, muganga yamushyize ku cyuma cyabugenewe kugira ngo agorore ingingo ze maze yoroherwe.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho kiba kirimo icyuma cyabugenewe, bashyiramo umurwayi igihe bagiye kumunyuza mu cyuma, bakareba uko ahagaze, maze bakamenya indwara arwaye.

Umusore wari uri gukora imyitozo ngororamubiri none yavunitse, akaba yagiye kwivuza kwa muganga, bari kumwitaho aho bari kumushyirira bande ku kuguru aho yavunitse kugira ngo barebe ko yakira.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri none icyuya cyamurenze, yafashe icupa ry'amazi ari kugenda ayisuka mu maso kugira ngo agarure ubuyanja maze yongere akore imyitozo ngororamubiri ye.

Abantu batandukanye bateraniye ku muntu wagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, aryamye ku gitanda gisa ubururu, bari kugerageza uburyo ki bamuvura agasubirana ubuzima.

Amoko y'ibyo kurya bigiye bitandukanye, umuntu yakwifashisha mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo imboga ndetse n'imbuto nyinshi zigiye zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, aho harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye abaganga bifashisha mu gihe baba barimo gutanga serivise bavura ababagana.

Umugabo wari uri gukora imyitozo ngororamubiri none yabize icyunzwe, yambaye agasengeri k'umuhondo n'agasaha k'iroza ku kuboko, akaba ari kwimenaho amazi kugira ngo yongere agarure ubuyanja.

Abantu batandukanye bari gukora imyitozo ngororamubiri, aho bambaye udukabutura tw'umukara ndetse n'udusengeri tw'umweru, bambaye inkweto za siporo bari gukina umukino wa Basket, hari kandi n'abandi babashungereye.

Akuma kari mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, abaganga bifashisha bari gupima ko umutima w'umuntu utera neza, karambitse ahantu hari gusa umweru.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo, amabara y'umutuku n'amabara y'ubururu, hashushanyijeho ingeri z'abantu bagiye batandukanye bari gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye.

Umugabo ufite amatugu n'amatuza, ufite impfundiko yabaye ubuhiri, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho agenda asimbuka mu dushushanyo, hirya ye hari umukobwa uhagaze uri kumurebera.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, akaba afashe akuma ka aliteri agateruye. Yambaye ishati y'icyatsi, ukuboko kwe gufashwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari kugira ngo asuzume arebe uko ameze.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye, yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto zisa umutuku, zifite talo y'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Iruhande rwe hateretse icupa ririmo amazi yo kunywa.

Icyapa kiriho amagambo agiye atandukanye ari mu nyuguti z'umweru, akaba agiye asobanura imikino igiye itandukanye umuntu yakora, mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Agakarito karimo imiti igiye itandukanye aho imwe iri gusa umweru, indi igasa umutuku ndetse n'ubururu. Iyi miti yifashishwa bita ku bantu bari mu myitozo ngororamubiri.

Ukuboko k'umuntu gututse na bande, uwo muntu rero akaba yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, hari ibizingo bigera kuri bine bya bande, bibiri by'umutuku kimwe cy'umukara n'ikindi cy'ubururu.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, cyane cyane ahatangirwa serivisi ku bantu bagiye gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye abaganga bifashisha bari kugorora abo bantu.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara ni ukuvuga ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri k'umukara. Arambuye amaboko ari gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu amererwa neza.

Umuganga yambaye itaburiya ndetse n'agapfukamunwa, yambaye n'akanozasuku mu mutwe, uyu nguyu akaba ari umuganga wa gakondo. Impande ye hari udukarito n'uducupa turimo imiti ya gakondo.

Uducupa tubiri dusa umuhondo, tukaba twanditseho amagambo mu ibara rijya gusa umutuku, hashushanyijeho kandi n'ikimera tuzi ku izina ry'igikakarubamba.

Amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo ivura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ayo moko rero akaba ari mu matsinda atandukanye, agera mu matsinda icyenda.

Ibimera byinshi cyane bigiye bitandukanye dukunda gusanga ahantu mu gisambu, ibi ngibi rero iyo bimaze gukura barabisoroma bakabitunganyamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa tugiye dutandukanye tuba turimo imiti gakondo myinshi cyane igiye itandukanye ivura indwara nyinshi zitandukanye, indwara za kinyarwanda.

Ni byiza cyane ko tugomba kugana abavuzi gakondo kuko na bo bashoboye, aho bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, cyanecyane indwara za Kinyarwanda.

Akabido k'umweru gapfundikije umupfundikizo usa umutuku, aka kabido rero kakaba karimo umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye za Kinyarwanda.

Ibyatsi by'ibimera biba byarameze ahantu mu gisambu, ibingibi rero ni ingirakamaro cyane, kuko bitunganywamo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, buvura indwara za kinyarwanda.

Agacupa k'ubururu kakaba kanditseho amagambo mu ibara ry'umweru gashushanyijeho n'igisiga, aya akaba ari amavuta y'uruhu atunganywa mu miti gakondo.

Icyatsi cy'ikimera gifite amababi asa icyatsi, giteye ahantu mu gisambu, iki cyatsi rero kikaba gitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Utubidobo tugera muri dutatu, tubiri tw'umweru akandi kamwe k'umuhondo, utwo tw'umweru dufite imipfundikizo itandukanye, kamwe ni ubururu akandi ni umutuku, hirya y'aho hari urubuto basatuye mo gatatu.

Uducupa tugiye dutandukanye ducuritse aho tuba turimo umuti w'amenyo utunganywa mu miti gakondo y'ibimera, cyane cyane nk'ikimera tuzi nk'igikakarubamba.

Agacupa k'umweru gafite n'umupfundikizo w'umweru, karambitse ahantu hari mu ibara ry'umukara tsiri, aka gacupa rero kakaba karimo umuti gakondo wifashishwa mu buvuzi bwa Kinyarwanda.

Uducupa tugiye dutandukanye, turi mu mabara y'umweru, twanditseho amagambo asa umutuku n'icyatsi, hashushanyijeho akanyoni kari kuguruka, hari n'agakarito kandi na ko kari imbere y'utwo ducupa.

Icyatsi giteye ahantu hagati y'ibipangu bibiri. Iki cyatsi rero kikaba kizwi mu kinyarwanda nk'icyatsi cy'umuravumba. Kivamo w'umuti gakondo uvura indwara nyinshi za kinyarwanda zitandukanye.

Icyatsi cy'ikimera giteye mu ivaze, aho gifite amababi agiye atandukanye, iki cyatsi rero kikaba gitunganywamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Agatanda k'ibyuma gateye irangi ry'umweru, kakaba karambitseho amavaze y'umutuku, ateyemo amoko menshi atandukanye y'indabyo, izi ndabyo rero si imitako gusa kuko zivamo n'imiti yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Agacupa kari mu mabara y'umweru, kakaba gapfundikije umupfundikizo w'umweru, kakaba gashushanyijeho igipupe cy'umwana, kanditseho inyuguti ya K mu ibara ry'umutuku, kakaba karimo umuti gakondo.

Udukarito tugiye dutandukanye turimo imiti ikomoka ku bimera, hakaba hari n'amagambo yanditse hejuru ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ibara risa umutuku.

Umusambi urambitseho ibikoresho gakondo, birimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda, hari agasekuru gafashwe n'ikiganza cy'umuntu, ari gusekuriramo ibyatsi.

Uducupa tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umweru tugera muri dutatu, utu ducupa rero tuba turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za kinyarwanda.

Uducupa tw'amoko atandukanye harimo utw'umuhondo, utw'umweru, utw'umutuku, twose icyo duhuriyeho n'akanyoni kari kuguruka gashushanyijeho, tukaba turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Icyatsi cy'ikimera gikunze gusangwa ahantu mu gisambu, aho kiba gifite amababi atatu atatu ateganye, iki ngiki rero ni ingirakamaro cyane kuko gitunganywamo umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Agasekuru k'umweru karimo ibyatsi bigiye bitandukanye basekuriramo, hanyuma bakabitunganyamo umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye by'umwihariko iza Kinyarwanda.

Uducupa tugiye dutandukanye turimo imiti igiye itandukanye, imiti ya Kinyarwanda, utu ducupa rero dufite imipfundikizo isa umuhondo, umutuku ndetse n'utundi turerure turi gusa umukara.

Ni mu cyumba gicururizwamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo abantu babiri bacuruza iyo miti, umwe ni umumama arebye hakurya yambaye itaburiya y'umweru, undi arunamye yambaye akajipo k'ubururu.

Ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye, bitunganywamo imiti ya gakondo maze bikavura indwara zigiye zitandukanye za Kinyarwanda.

Agakarito kari mu mabara y'umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi. Gashushanyijeho ibyatsi by'ibimera. Ibiyatsi rero, bikaba bitunganywamo imiti gakondo, ivura indwara za kinyarwanda.

Abantu bari kugenda bagera muri batandatu, aho bigaragara ko ari abakerarugendo, bari kugenda batembera ahantu mu ishyamba, bari kureba ibyiza bitatse u Rwanda.

Agacupa k'umweru karimo umuti w'icyatsi, karambitse ahantu gapfunduye, aka gacupa rero kakaba gakozwe mu buryo bw'igikakarubamba, kivura indwara zitandukanye.

Udukarito turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho hari n'uducupa dusa umweru, dushushanyijeho ikimera kizwi nk'igikakarubamba, hari kandi n'utundi ducupa tugufi dushushanyijeho akanyoni karimo kuguruka.

Ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye bifite amababi y'icyatsi. Biteye ahantu mu gisambu. Ibi bimera rero ni ingirakamaro kuko iyo bimaze gukura bitunganywamo imiti ivura indwara za kinyarwanda.

Icyatsi kizwi ku izina ry'umuravumba, kiba gifite ibabi rimwe rimwe, iki kimera rero ni ingirakamaro cyane kuko gitunganywamo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Agacupa k'umweru kanditseho amagambo ari ku cyapa gisa ubururu n'umweru, umupfundikizo wako urasa umweru, gashushanyijeho inyoni iri kuguruka, kakaba karimo umuti gakondo.

Ubusitani buba buteyemo ibiti by'amoko atandukanye, cyane cyane ibiba biri mu mavaze. Ibi ngibi rero amababi yabyo ni ingenzi cyane, kuko yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Iki kimera cyitwa isombe. Gifashweho n'intoki z'umuzungu. Buriya ntabwo aziko ari isombe ahubwo we, ari kugira ngo ni umwumbati ntabwo yasobanukiwe neza ko ari isombe, ari kugenda asuzuma.

Mu gisambu kirimo amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera. Ibi bimera rero ,ni ukubyitaho kuko ari ingirakamaro cyane. Iyo bikuze bitunganywamo imiti gakondo, ivura indwara za Kinyarwanda.

Isambu iteyemo ibimera byinshi bigiye bitandukanye ariko ibyiganjemo cyane ni ibimera by'igikakarubamba. Iki rero ni ingenzi cyane kuko gitunganywamo imiti y'ubwoko butandukanye ivura indwara za gakondo.

Amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo, aho igiye iri mu ducupa tugiye dutandukanye, hari udusa umuhondo, udusa umweru ndetse n'udushushanyijeho igikakarubamba.

Uducupa tugiye dutandukanye, tukaba turimo imiti gakondo itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda, hakaba hari akaziga k'umuhondo kanditseho amagambo y'umukara avuga ngo Aloe vera.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera, aha ngaha rero turareba ikimera gifite amababi meza atoshye, iki kimera rero kikaba gitunganywamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Ibirahure bibiri bipfunduye birambitse ahantu, mo imbere harimo amazi ndetse n'amababi y'ibimera, uko bigaragara ni ibimera bagiye gutunganyirizamo hanyuma bakabivanamo umuti gakondo wifashisha mu kuvura indwara zitandukanyeye.

Agacupa karimo umuti w'amenyo k'umweru n'umuhondo, kakaba karambitse ahantu gacuritse, kari ahantu hari gusa umukara, uyu muti rero utunganywa ukozwe mu miti gakondo.

Agakarito kari mu mabara y'umuhondo n'icyatsi, gashushanyijeho akanyoni kari kuguruka mu ibara ry'umukara, hariho kandi ibinini bipfunyitse mu gashashi bigera mu icumi.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye dukunze gusanga ahantu mu gisambu, ibi bimera rero bikaba bitunganywamo umuti gakondo wifashisha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za Kinyarwanda.

Icyatsi cy'ikimera gifite amababi agiye atandukanye, by'umwihariko amababi amababi asa icyatsi. Iki kimera rero kikaba gitunganywamo umuti gakondo aho wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za Kinyarwanda.

Umusambi urambitseho ibikoresho bitunganywamo imiti gakondo bigiye bitandukanye, aho harimo agasekuru, utubindi, imbuto ndetse n'ibindi biri mu mabara y'umutuku n'icyatsi.

Uducupa dushushanyijeho icyatsi k'ikimera cy'igikakarubamba, tukaba turimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buvuzi gakondo, hari n'akandi karimo umuti wifashishwa mu gusukura umusatsi witwa shampo.

Ibyatsi by'ibimera byinshi biba bigiye bitandukanye, ibi ngibi rero ni ingirakamaro cyane kuko iyo bimaze gukura babitunganyamo imiti gakondo ivura indwara zitandukanye za kinyarwanda.

Icyatsi cy'ikimera aho gifite utubabi duto duto, iki cyatsi rero kikaba gitunganywamo umuti gakondo iyo kimaze gukura, ukavura indwara ziba zigiye zitandukanye.

Ibyatsi by'amoko agiye atandukanye by'ibimera ,aho ibi byatsi amababi yabyo atunganywamo imiti gakondo igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda.

Ikimera kitwa igikakarubamba ni ingirakamaro cyane, kuko iyo kimaze gukura kivamo imiti igiye itandukanye, utu ducupa tubona mo imbere harimo umuti gakondo ukomoka ku gikakarubamba.

Amoko menshi agiye atandukanye, atunganywamo imiti gakondo, hari udukarito dutandukanye turimo iyo miti, hari kandi n'indabyo zisa umuhondo, hari n'imbuto nk'inanasi ndetse n'imineke.

Ibimera bigiye bitandukanye bikunda kumera ahantu hahingwa, hari intoki zifashe ku kimera, aho icyo kimera iyo gikuze gitunganywa kikavamo umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye za Kinyarwanda.

Ibyatsi byinshi cyane bigiye bitandukanye, bikunze gusangwa ahantu mu gisambu, ibi byatsi rero iyo bimaze gukura, babijyana mu nganda zabugenewe, bakabitunganyamo imiti gakondo.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera, ibyo bimera bikaba bitunganywamo imiti gakondo, aho yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara za gakondo.

Amoko agiye atandukanye y'ibintu bitunganywamo imiti gakondo, hakaba harimo n'ibitoki ndetse n'ubunyobwa, abenshi ntibasobanukiwe ko ibitoki bivura indwara za kinyarwanda.

Amoko y'ibimera bigiye bitandukanye aho ibi bimera byose bitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za kinyarwanda.

Agacupa k'umukara gapfundikije umupfundizo w'umweru, kakaba karimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aka gacupa aho gateretse harasa umweru.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera, ari mu matsinda agiye atandukanye agera mu munani cyangwa se atandatu, akaba avura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko iz'amarozi.

Agacupa gacuritse kameze nk'akarimo umuti w'amenyo, utunganywa mu gikakarubamba ,karasa umweruru, gafite n'amabara y'icyatsi, kakaba karambitse ahantu hasa umweru.

Ibyatsi by'ibimera bitandukanye byameze mu gisambu, muri byo harimo ikitwa amatovu gifite indabyo zitukura, kikaba kifashishwa mu kuvura indwara za gakondo.

Uducupa tubiri turi kumwe n'agakarito, bikaba biteretse ahantu hari gusa umweru wera de. Muri ibi bikoresho, harimo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Icyatsi k'ikimera gifite amababi asa icyatsi, iki cyatsi rero kikaba gitunganywamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko indwara za Kinyarwanda.

Amagambo ari mu ibara ry'umweru, yandikishijwe mu ibara ry'umutuku, avuga ngo: ''Iyandikishe kugira ngo uhabwe serivisi zijyanwe n'ubuvuzi bwa gakondo mu karere k'Afurika.''

Uducupa tubiri kamwe gasa umweru akandi ni umuhondo, tukaba dushushanyijeho twose icyatsi kiri mu mabara y'icyatsi kitwa igikakarubamba, iki kikaba kivamo imiti ya gakondo ivura indwara zinyuranye.

Icyatsi cy'ikimera cyameze ahantu mu gisambu, kikaba gifite amabara menshi agiye atandukanye, ubwo rero iki cyatsi iyo gikuze gitunganywamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyatsi cy'ikimera gifite amababi atohagiye, kikaba gifite amababi agiye atandukanye, giteye ahantu mu gisambu, iki cyatsi rero gikunze gutunganywamo umuti gakondo, uvura indwara za kinyarwanda.

Agakarito gasa umweru n'umutuku aho kanditseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umukara, hari n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umutuku avuga ko gapima miri garama magana atanu.

Agacupa k'umweru ,gafite umupfundikizo w'umweru, kariho icyapa gisa ubururu, kiri no mu ibara ry'umweru, hashushanyijeho akanyoni kari kuguruka. Aka gacupa rero, kakaba karimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda.

Intoki z'umuntu w'umwirabura zifashemo agapapuro karimo ibyatsi biseye, iyi miti rero iri kuri aka gapapuro, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda zigiye zitandukanye.

Abantu babiri harimo umusaza ndetse n'umugore ukiri muto, bakaba bari ahantu mu gisambu, umusaza ari kutwereka icyatsi gifite utubari dutoya, atubwira ko kivamo umuti gakondo.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye yitabwaho mu kuvura indwara za Kinyarwanda, cyane cyane nk'indwara z'amarozi ndetse n'izindi.

Utubido tugera muri dutatu, tubiri ni umweru akandi kamwe karasa umuhondo, hari n'utundi ducupa tuba turimo umuti w'amenyo utunganywa mu gikakarubamba duhari twubitse, ibi byose bikaba bikomoka ku miti gakondo.

Uducupa tugera muri dutatu tugiye dutandukanye, aho kamwe kari mu ibara ry'umweru n'ubururu, akandi ubururu busa, utu ducupa rero tukaba turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Ibimera bigiye bitandukanye bikunze gusangwa ahantu mu gisambu. Ibi bimera rero akaba ari ingirakamaro cyane kuko bikunze gutunganywamo imiti gakondo. aho yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye za kinyarwanda.

Agacupa k'agasorori karimo umutobe cyangwag se umuti uri gusa umuhondo, ukomoka mu macunga, iruhande rwaho hari ibyatsi ndetse na tangawize.

Amoko y'uducupa menshi agiye atandukanye, turi mu mabara asa umuhondo, icyatsi ndetse n'umweru, aya macupa rero akaba arimo imiti gakondo ivura indwara za Kinyarwanda.

Icyatsi cy'ikimera gifite ibabi rimwe rimwe, aya mababi rero akaba atunganywamo imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko nk'indwara za Kinyarwanda.

Pipinyeri irimo ibihoho biteyemo amoko menshi y'ibimera bigiye bitandukanye, hari abantu benshi baje kubisura ndetse n'umuntu umwe uri kugendamo bigaragara ko ariwe nyirabyo.

Uducupa tubiri ducuritse, aho turi mu mabara y'umweru, tukaba dushushanyijeho akanyoni kari kuguruka mu mabara y'icyatsi ndetse hashushanyijeho n'icyatsi cy'igikakarubamba, tukaba turimo umuti w'amenyo.

Icyatsi cy'ikimera gikunda kumera ahantu mu gisambu, iki kimera rero iyo gikuze kiratunganywa kikavamo umuti gakondo, aho wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane indwara za Kinyarwanda.

Udukarito turimo amoko menshi agiye atandukanye y'imiti yifashishwa ya gakondo, tuba turimo imiti myinshi ikomoka ku bimera.

Ikiganza cy'umuntu w'umuzungu afashe agacupa k'umukara kandiditseho amagambo y'umweru, kakaba gafite umupfundikizo w'umukara, kakaba karimo umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Uducupa turi mu mabara atandukanye, hari tubiri dusa icyatsi, utundi tubiri dusa iroza, utundi tubiri dusa umweru n'akandi kamwe gasa ubururu, utu ducupa rero tukaba turimo imiti gakondo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ari ahantu mu gisambu cyangwa igihuru, aho ari kugenda asoroma amababi y'ibyatsi birimo, uko bigaragara yagiye gushaka umuti gakondo uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Amatsinda y'amafoto menshi cyane agiye atandukanye, aho ayo mafoto y'ibyo bimera ariyo yerekana ko ibimera ari ingirakamaro, bivamo imiti gakondo, munsi ya buri kimera hagiye handitseho amagambo mu ibara ry'umukara, mu rurimi rw'Icyongereza.

Amoko agiye atandukanye y'imbuto zitunganywamo imiti gakondo ikavura, hari igisate cy'igitunguru ndetse n'indimu basatuyemo kabiri, bateranya ibyavuye muri iyi ndimu ndetse no mu gitunguru, bakabivanamo umuti gakondo.

Amoko y'ibiti gakondo agiye atandukanye bitewe n'ibikoresho birimo, hari ari mu ducupa tw'umuhondo dushushanyijeho n'igikatarubamba n'andi menshi agiye atandukanye.

Agacupa kari mu mabara y'umweru hagati hakaba hatambitsemo umurongo usa icyatsi, aka gacupa rero kakaba kaba karimo umuti gakondo uvura indwara zigiye zitandukanye, aho karambitse harasa umukara wijimye.